Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ya AIRTEL, uko bigaragara ku cyapa ukaba ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bahamagarana kandi no mu gihe bari gukoresha ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Hano turahabona iminara ya sosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bifashisha telefone ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta, igihe barikoresha bari mu kazi.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahahariwe abaturage hakaba harubatswe intebe bicaraho, haba mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo imyidagaduro, kandi bakaba bumva hatuje bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Uyu munara ni uw'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha mu ikoranabuhanga kuba rya kwihuta, bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha umuyoboro kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana bifashishije telefoni cyangwa se no mu kazi kabo ka buri munsi, ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Iyi ni iminara ya sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abazikoresha kuba bakumvikana neza mu gihe bahamagarana cyangwa se mu kazi kabo ka buri munsi, ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana ndetse no mu kazi kabo bikaborohereza, ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uyu ni umwe mu minara y'amasosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayakoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana bifashishije telefone cyangwa se n'ikoranabuhanga rikihuta, mu gihe barikoresha mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene nk'uko bigaragara ku byapa, ukaba ufasha abakoresha uwo muyoboro mu gihe bifashisha ikoranabuhanga mu kazi kabo bikarushaho kwihuta.

Uyu munara ni uw'umwe mu masosiyete y'itumanaho aho ufasha abayikoresha mu mirimo yabo ya buri munsi bitewe n'uko ikoranabuhanga riba ryihuta ndetse no mu gihe bahamagaranye bakarushaho kumvikana.

Uyu n'umunara w'imwe muma sosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha uwo muyoboro nko mu kazi kabo ka buri munsi kuba ikoranabuhanga ryarushaho kwihuta.

Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ya emutiyene nkuko turi kubibona ku cyapa kiri iruhande rwawo aho ufasha abayikoresha by'umwihariko mu kazi kabo ka buri munsi ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Uyu munara muremure tubona hano ni uwa sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni nkuko bigaragara hano ku cyapa, ukaba ufasha abakoresha uwo muyoboro kuba bakumvikana ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu ni umunara w'imwe mu masosiyete y'itumanaho, aho ufasha abakoresha umuyoboro kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana, ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta mu gihe baryifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu mutaka ni uwa sosiyete y'itumanaho ya emutiyene ndetse turabona n'umukozi uyikorera; aho afasha abaturage kuba babitse amafaranga ya bo, bakayabikuza, bakigurira amayinite yo guhamagara mu buryo bubegereye kandi bworoshye.

Hano turahabona umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse n'uwukoreramo, aho ari gufasha umuturage, nko kuba yagura ama inite, kubitsa amafaranga, cyangwa se kuyabikuza.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyaraz, ziwujyana mu mazu abaturage batuyemo cyangwa se akorerwamo indi mirimo nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi, bikaba biborohereza mu kazi kabo ka buri munsi kandi bikagaragaza n'iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, nk'uko bigaragara ndetse no mu yandi mazu akorerwamo indi mirimo nk'ubucuruzi n'ibindi, kikaba ari igikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Izi nsinga nyinshi tubona hano, ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu nzu zitandukanye, by'umwihariko iz'ubucuruzi, nizo turi kureba hano, akaba ari kimwe mu bikorwa by'iterambere bifasha abatuye igihugu, mu mirimo yabo ya buri munsi, no mu gihe bakora mu masaha ya nijoro, bakaba bumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Iyi migozi tubona hano ni insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, bikaba ari igikorwaremezo kigaragaza ko igihugu cyateye imbere.

Izi nsinga ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'Igihugu cyane ko biborohereza mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse bigatuma haba umutekano mu masaha ya nijoro.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda, akaba ari ibigaragaza iterambere ry'Igihugu, aho bifasha abagituye baba mu gihe bari gutaha bava mu kazi cyangwa se bakora izindi ngendo mu masaha ya n'ijoro, bakumva batekanye bitewe n'uko haba habona.

Izi nsinga nyinshi tubona hano, harimo zimwe z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye ndetse no mu mazu akorerwamo indi mirimo nk'ubucuruzi, nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, ndetse bikorohereza n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi, by'umwihariko mu masaha ya nijoro, kuko haba habona.

Aka kazu k'ubururu turi kubona hano, ni akubakirwa abaturage bashobora kwicaramo mu gihe bategereza imodoka zibatwara cyangwa se nk'abari ku rugendo bakeneye kuruhuka na bo bashobora kuba bahicara.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage ndetse no mu mazu akorerwamo indi mirimo nk'ubucuruzi n'ibindi, bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'Igihugu, aho bifasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi nk'abacuruzi cyangwa se abakora ingendo nijoro, kuba bumva batekanye, bitewe n'uko aho baca haba habona.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo imirimo inyuranye nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'Igihugu ndetse bikorohereza n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana ahantu hatandukanye, by'umwihariko nko mu nzu zikorerwamo ubucuruzi nkuko turi kubibona, bukaba ari uburyo bworohereza benshi mu kazi kabo ka buri munsi, cyane ko bawukenera mu byo bakora.

Izi nsinga nyinshi tubona hano, ni iz'umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo nk'imirimo y'ubucuruzi n'ibindi, bikaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Izi nsinga z'umuriro w'amashanyarazi ni iziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage ndetse no mu y'andi mazu akorerwamo nk'imirimo y'ubucuruzi bikorohereza benshi mu byo bakora bya buri munsi cyane ko ba bifashisha ikoranabuhanga kandi rikenera kuba bawufite.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana hirya no hino hatuye abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo imirimo itandukanye nk'ubucuruzi, bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bigafasha n'abagituye mu kazi kabo ka buri munsi.

Izi nsinga nyinshi ni izijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye z'abaturage, aho ari igikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha n'abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi no mu mutekano wabo wa n'ijoro kuko haba habona.

Izi nsinga ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bikaba bifasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi, no mu masaha ya nijoro bakaba batekanye bitewe n'uko haba habona.

Iri ni ivuriro nk'uko bigaragara, by'umwihariko tukaba tuhabona icupa rihateretse, ribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho riba rigomba guterekwa ahahurira abantu benshi, kugira ngo ribe ryakwitabazwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu karere ka huye, aho byoherezwamo abaturage baturutse mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho bitewe n'uburwayi baba bafite.

Iri nivuriro nk'uko bigaragara hari abarwayi bategereje gufashwa ndetse hari n'imbangukira gutabaraba akaba ari imodoka zifashishwa mu mavuriro anyuranye, kugira ngo abe yafasha mu gihe hari umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa kuba yamugeza aho afashirizwa bitagoye.

Ibi byapa bishyirwa ku mavuriro atandukanye, ni iby'ingenzi kubera ko bifasha abarwayi bayagana kuba basobanukirwa aho berekeza bitewe n'uburwayi bafite ndetse n'ubufasha baba bakeneye.

Ibi bitaro ni ibya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturutse mu duce dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho bitewe n'uburwayi baba bafite.

Izi mbangukiragutabara ni zimwe mu modoka zifashishwa mu mavuriro atandukanye, aho zifasha mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane, kuba zamugeza aho afashirizwa kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranwe byihuse.

Ibi byapa bishyirwa ku mavuriro, bifasha abayagana kuba babona aho berekeza bitewe n'uburwayi bafite bitabagoye, no mu gihe baba badafite uwo babaza bashobora kubisobanukirwa, cyane ko biba biri mu ndimi zitandukanye.

Ibi ni ibitaro bya Kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu Karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturutse mu duce dutandukanye tw'Igihugu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho, bitewe n'uburwayi baba bafite.

Iri ni ivuriro nk'uko bigaragara twitegereje neza hariya imbere turahabona icupa ribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro rikaba riterekwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri n'ahandi kugira ngo rifashe mu gihe habayeho icyo kibazo.

Iyi modoka turikubona hano ni imbangukiragutabara ikaba ari iyifashishwa mu mavuriro atandukanye kugira ngo ibe yakwitabazwa mu gihe hari umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa ikamugeza aho afashirizwa.

Izi modoka turi kubona ahangaha ni imbangukiragutabara zikaba zifashishwa mu bigo nderabuzima bitandukanye, kugira ngo zibe zatabara mu gihe hari umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa cyane kuba bamugeza aho afashirizwa bitagoye.

Izi ni imbangukiragutabara, akaba ari imodoka zifashishwa ku mavuriro atandukanye, aho zifasha mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa kubazamugeza aho afashirizwa nk'umubyeyi ugiye kubyara, wakoze impanuka cyangwa se n'undi wese.

Aya ni amarembo yinjira mu igororero rya Huye, aho hashyirwa abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe, kandi bigishwe imyuga inyuranye, nibafungurwa bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro ndetse nabo ubwabo biteze imbere.

Iri ngororero ni irishyirwamo abagororwa baba barakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bigishwe kandi batozwe imyuga itandukanye, nibarekurwa bazakore ibifitiye igihugu akamaro ndetse na bo ubwabo babe bakwiteza imbere.

Iri ngororero ni irishyirwamo abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe kandi bigishwe imyuga inyuranye, nibasohoka bazakore ibifitiye igihugu akamaro ndetse nabo ubwabo babe bashobora kwiteza imbere.

Iki cyapa kinini tubona aha ni ikiri ku marembo yinjira mu igororero rya Rwamagana, aho hashyirwa abakoze ibyaha binyuranye kugirango bagororwe kandi bigishwe imyuga inyuranye, bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Hano turahabona abagororwa bavuye mu mirimo itandukanye berekeza aho bafungiye bitewe n'ibyaha bitandukanye baba barakoze, kugira ngo bafashwe kugororwa kandi batozwe ibikorwa bizatuma basohoka bakora ibifitiye igihugu akamaro.

AAba tubona hano ni abagororwa bari imbere y'inzu bashyirwamo bitewe n'ibyaha baba barakoze bitandukanye, aho bagororerwa kandi bagatozwa imyuga inyuranye kugira ngo nibafungurwa bazakore ibiteza imbere igihugu ndetse na bo ubwabo.

Iri ni igororero, aho tubonamo abagororwa bakoze ibyaha bitandukanye, aho bashyirwa kugira ngo bigishwe kandi batozwe imyuga inyuranye, nibasohoka bazakore ibifitiye igihugu akamaro, nabo babe bashobora kuba bakwiteza imbere.

Iri cupa ni rimwe mu rishyirwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho ashyirwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu nsengero ndetse n'ahandi.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rishyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu nsengero, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi kugira ngo ribe ryakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano turahabona umupolisi akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda, aho afasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga ndetse bakaba banahagarara mu gihe hari abari kwambuka nk'uko turi kubibona.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho riterekwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu nsengero, ndetse n'ahandi kugira ngo ribe ryakwifashishwa igihe habayeho icyo kibazo.

Aya ni amacupa abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aterekwa ahahurira abantu benshi, nko mu masoko, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri n'ahandi, kugira ngo abe yakwitabazwa igihe habaye icyo kibazo.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, riba rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko ku mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi kugira ngo ribe ryakoreshwa mu gihe habayeho iki kibazo.

Iri cupa niribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rishyirwa ahahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu nsengero n'ahandi kugira ngo ribe ryakwifashishwa igihe habayeho icyo kibazo cyangwa se hategerejwe ubundi butabazi bwisumbuyeho.

Iri cupa ni rimwe muyabikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, aho riterekwahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu nsengero ndetse n'ahandi, kugira ngo ribe ryakwitabazwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Muri iri cupa habikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho riba rigomba guterekwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu nsengero n'ahandi kugira ngo ribe ryakwitabazwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa ni abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho aterekwa ahakunze guhurira abantu benshi nko mu masoko, mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu nsengero n'ahandi, kugira ngo yitabazwe igihe habayeho icyo kibazo, cyangwa se harindiriwe ubundi bufasha bwisumbuyeho.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro nkuko tubibona hariho n'amabwiriza y'uko rikoreshwa aho rishyirwa hahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu masoko n'ahandi kugira ngo ribe ryakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Aba tubona hano ni abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu muhanda aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga, kugirango birinde guteza impanuka zitandukanye.

Hano ni ahari gukorerwa ubukangurambaga. Abanyeshuri bigishwa uburyo bashobora kwifashisha amacupa abamo umwuka ukoreshwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro. Bakaba bashobora kwitabara mu gihe habayeho icyo kibazo cyangwa se hategerejwe ubundi butabazi bw'ibanze kubera ko baba barabitojwe.

Uyu ni umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda nk'uko tubibona, bakaba bafasha kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko yabo ndetse no kuba bafite ibyangombwa byuzuye, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Aya macupa ntashyirwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho ashyirwa ahahuriye abantu benshi, nko mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu nsengero, n'ahandi kugira ngo yitabazwe mu gihe habayeho icyo kibazo.

Iri cupa tubona hano ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya habayeho inkongi y'umuriro aho rishyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko ndetse n'ahandi kugira ngo ribe ryakoreshwa igihe bibayeho.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ubafasha mu muhanda, kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka.

Hano turahabona umupolisi akaba umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, aho aba ari gufasha abatwara ibinyabiziga kwibuka gukomeza kugendera ku mategeko baba barize, kugira ngo hirindwe guteza impanuka zitandukanye.

Hano hakurya y'umuhanda turi kuhabona umupolisi, akaba ari umwe mu bafasha kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu muhanda aho aba yibutsa abatwara ibinyabiziga kuba bujuje ibyangombwa bisabwa ndetse no kugendera ku mategeko abagenga, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Aya ni amacupa abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho ashyirwa ahahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu mavuriro, mu masoko ndetse n'ahandi hatandukanye.

Uyu tubona hano ni umupolisi; akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, aho bafasha mu muhanda abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga, kugira ngo babe batateza impanuka.

Aba bapolisi ni bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga no gusuzuma niba bujuje ibyangombwa byose bituma batwara.

Iri cupa ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rishyirwa ahahurira abantu benshi, nko mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu masoko n'ahandi kugira ngo ryifashishwe mu gihe habayeho icyo kibazo.

Uyu mupolisi ni umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga, ndetse no gusuzuma ko bafite ibyangombwa byuzuye bibemerera kuba batwara mu rwego rwo kwirinda impanuka zinyuranye.

Muri uyu muhanda turahabona abapolisi benshi akaba ari bamwe mu bafasha mu kurinda umutekano w'Igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda aho turi kubona bari guhagarika ibinyabiziga kugira ngo abantu babanze bambuke na byo bibone kugenda mu rwego rwo kurinda impanuka zitandukanye.

Iri cupa ni rimwe mu yabikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro ndetse akaba ashyirwa ahahurira abantu benshi, kugira ngo abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano ni ahari gukorerwa ubukangurambaga aho abanyeshuri bari kwerekwa uburyo bakoresha amacupa abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro aho bashobora kuba batabara mu gihe havutse icyo kibazo cyangwa se hategerejwe ubundi butabazi bwisumbuyeho.

Uyu mupolisi ni umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga, kwibuka kugendera ku mategeko abagenga, kandi bakareba neza ko bujuje ibyangombwa bituma bajya mu muhanda.

Iri cupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro aho riterekwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu masoko, mu nsengero n'ahandi.... kugira ngo rikoreshwe mu gihe habayeho icyo kibazo cyangwa se harindiriwe ubundi bufasha bwisumbuyeho.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari ari kwiyamamariza mu duce dutandukanye ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari benshi baje kumwereka urukundo no kumushyigikira.

Iki cyapa turi kukibonaho umukandida w'ishyaka rya FPR wari uri kwiyamamaza mu matora aho yiyamamarizaga mu duce dutandukanye tw'Igihugu ndetse akaba ari nawe watorewe kuyobora u Rwanda.

Hano turahabona abaturage benshi cyane, bafite ibyapa ndetse n'imyambaro, byamamaza umukandida w'ishyaka rya FPR, aho bari bamushyigikiye ndetse akaba ari na we watorewe kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamariza mu duce dutandukanye tukigize ndetse nk'uko tubibona abaturage bakaba bari benshi baje kumushyigikira.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR aho yari ari kwiyamamaza mu duce dutandukanye tw'igihugu, ndetse nk'uko bigaragara, abaturage bakaba bari baje ari benshi kumushyigikira, bamwereka urukundo akaba ari nawe watorewe kuyobora u Rwanda.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR, aho yari ari kwiyamamariza kuyobora mu duce dutandukanye tw'Igihugu, kandi uko bigaragara abaturage bakaba bari benshi baje kumushyigikira, bamwereka urukundo, akaba ari na we batoreye kuyobora u Rwanda.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR, aho yari ari kwiyamamariza mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse abaturage bakaba bari benshi baje kumushyigikira no kumwereka urukundo, bakaba baranamutoreye kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR, aho yari ari kwiyamamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari benshi baje kumushyigikira, bamwereka urukundo, akaba ari na we batoreye kuyobora u Rwanda.

Uyu ni umukandida w'ishyaka rya FPR, aho yari ari kwiyamamariza mu duce tunyuranye tw'igihugu ndetse abaturage bakaba bari benshi baje kumushyigikira kandi bamwereka urukundo, bakaba ari nawe batoreye kuyobora u Rwanda.

Izi moto nini tubona hano ni zimwe mu zifasha abantu gutwara imizigo, baba abavuye guhaha ibintu byinshi cyangwa se abacuruzi bakeneye kugeza ibyo baranguye aho bakorera.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe muzifashishwa mu gutwaramo ibintu biremereye kandi byinshi, aho abubatsi bayikoresha bayitwaramo umucanga, amabuye, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali mu duce dutandukanye, aho zitwara abagenzi rusange, bikorohereza benshi mu bakora ingendo za buri munsi, nk'abajya ku kazi, cyangwa se abanyeshuri kugira aho bajya bitabagoye.

Hano ni muri gare ahategerwa imodoka zijya mu duce dutandukanye tw'igihugu, nkuko tubibona bikaba bifasha abashaka gukora ingendo kuba babona aho bafatira ibinyabiziga bibagezaho bagiye mu buryo bworoshye.

Iyi moto nini tubona hano itwikiriye, ni imwe mu byifashishwa n'abantu benshi mu gutwara imizigo, baba abakeneye kwimuka badafite ibintu byinshi cyane cyangwa se abacuruzi bakeneye kujyana ibicuruzwa byabo hirya no hino batandukanye.

Hano turabonaho amamodoka atwara abagenzi rusange, by'umwihariko ayo tubonaho ibara ry'ubururu, akaba avana abagenzi mu gace kamwe abajyana mu kandi mu mujyi wa Kigali, bikorohereza abakora ingendo kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikorera mu Mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abakora ingendo za buri munsi, kubona uko bagera aho bajya bitabagoye, kandi zikanifashishwa mu kwamamarizwaho ibikorwa bitandukanye.

Iyi ni imwe mu modoka zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, aho zibakura mu duce tumwe zibajyana mu tundi, bikorohereza benshi mu bakora ingendo kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

iyi modoka nini ni imwe mu zikora mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo no kugera aho bajya bitabagoye.

Iyi modoka iri muri zimwe mu zitwara abagenzi rusange bo mu mujyi wa Kigali, aho ibavana mu gace kamwe bajyana mu kandi, kandi bikorohereza benshi mu bakora ingendo za buri munsi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Aba ni bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bifashishije ikinyabiziga cya moto, aho ari uburyo bworohereza benshi, by'umwihariko abakeneye kugera aho bajya ku gihe kandi bukaba butanahenze.

Hano turahabona umwe mu batwaza abantu imizigo aho hari ibyotwaye ku ngorofani, ikaba ibafasha gupakiraho ibyo baba badashobora kwikorera ku mutwe bikaborohereza kubitwara.

Iyi modoka nini ni imwe mu zifashishwa mu gutwara ibintu biremereye kandi byinshi, aho abubatsi bayifashisha kugirango bayipakiremo umucanga, amabuye, ibitaka basenye ahantu cyangwa se bagiye gukoresha ndetse n'ibindi.

Iki kinyabiziga cya moto ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho Leta ishishikariza abakora uyu mwuga kuba aribyo bakoresha, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Iyi kamyo nini ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubatsi bayikoresha bayitwaramo umucanga wo kubakisha cyangwa se amabuye, ibitaka ndetse n'ibindi nk'ibyo.

Iyi modoka ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi. Aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abajya mu kazi cyangwa se abanyeshuri kugera aho bajya bitabagoye.

Iyi moto tubona hano ni imwe mu zikunze kwifashishwa n'abantu benshi mu kubatwaza imizigo yabo, nk'abacuruzi mu gihe bavuye kurangura. Ikabibagereza aho bakorera cyangwa se mu duce dutandukanye abaguzi babo baherereyemo.

Hano turahabona moto nini itwikiriye, ikaba yifashishwa mu gutwara imizigo, abacuruzi bakayikoresha bakeneye kugeza ibyo bacuruza aho bakorera mu gihe bavuye kurangura cyangwa se kubigemurira abaguzi bari hirya no hino.

Uyu ni umwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku kinyabiziga cy'igare, aho ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abafite ubushobozi buke, kuba bagera aho bajya byihuse na none bikifashishwa mu gutwara imizigo iremereye umuntu aba adashobora kwikorera ku mutwe.

Hano turi kuhabona abatwara abantu ku binyabiziga bya moto, aho byorohereza benshi by'umwihariko nk'abagiye mu kazi bakeneye kuhagera ku gihe kubera ko byihuta kandi bikaba bitanahenze.

Iyi modoka nini ni imwe mu zitwara ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubaka bakunda kuyifashisha bayipakiramo umucanga, amatafari ndetse n'ibitaka basennye ahantu, cyangwa se bagiye gukoresha.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya ndetse zikaba zinifashishwa muri bimwe mu bikorwa byo kwamamaza.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikorera muri uyu mujyi wa Kigali aho zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bukaba ari uburyo bworohereza abakora ingendo za buri munsi kugera aho bajya bitabagoye, kandi n'imurikagurishwa rikazifashisha kugira ngo ryamamaze ibikorwa byabo.

Aya mamodoka tubona hano, ni akorera mu mujyi wa Kigali atwara abagenzi rusange, abavana mu gace kamwe abajyana mu kandi, aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugenda bitabagoye.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo aho abacuruzi bayikoresha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo mu duce dutandukanye, ku baguzi cyangwa se bavuye kurangura bifuza ko yagera aho bakorera.

Iyi modoka ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi, kandi bikorohereza abakora ingendo za buri munsi nk'abanyeshuri cyangwa se bagiye mu kazi, kugera aho bajya bitabagoye.

uyu ni umwe mu bakora umwuga wo gutwara imizigo ndetse iyi ngorofani afite akaba ari imwe mu zo bifashisha kugira ngo ibafashe gutwaraho ibintu badashobora kwikorera ku mutwe, nk'imifuka y'umuceri, isukari, amakarito, amajerekani n'ibindi.

Iyi modoka ni imwe mu zifashishwa n'abitegura gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga ,aho zibafasha kumenya uko bashyira mu bikorwa amategeko baba barize, nuko bayubahiriza.

Iki kinyabiziga cya moto tubona mu muhanda, ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho ari uburyo Leta ishishikariza benshi kwifashisha, kugira ngo barusheho kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu, bifashishije ikinyabiziga cya moto, hari uburyo bworohereza benshi, kugera mu duce dutandukanye, ndetse no mu gihe bifuza kugerera aho bajya ku gihe, nko mu kazi kubera ko byihuta.

Iyi moto ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, aho abantu benshi bakunze kuyikoresha mu gihe bari kwimuka, badafite ibintu byinshi cyangwa se abacuruzi bashaka kugeza ibicuruzwa byabo aho bakorera cyangwa ku baguzi bari mu duce dutandukanye.

Izi moto turi kubona hano, ni zimwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, aho zitwaza abacuruzi mu gihe bavuye kurangura ibicuruzwa byabo bakabibagereza aho bakorera cyangwa se kubigeza ku babiguze bari mu duce dutandukanye.

Aba ni bamwe mu batwara abagenzi n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto, ahari uburyo benshi bakunda bitewe n'uko baba bashaka kugera aho bajya ku gihe kandi byihuse ndetse bukaba butanahenze.

Izi modoka tubona hano, ni izitwara abagenzi rusange zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bikaba byorohereza abakora ingendo by'umwihariko za buri munsi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Iki kinyabiziga cya moto ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho leta ishishikariza benshi kuba ari byo bakwifashisha, kugira ngo hakomeze kubungwabungwa ibidukikije, hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Iiyi modoka ni imwe mu zikorera mu Mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza benshi, by'umwihariko abakora ingendo za buri munsi kugera aho bajya bitabagoye ndetse zikanifashishwa mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu ku binyabiziga bya moto. Aho ari uburyo benshi bakunda bitewe n'uko baba bashaka kwihuta bifuza kugera aho bagiye ku gihe, kandi bukaba butanahenze.

Izi moto ni zimwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko abacuruzi bakazifashisha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari ahantu hatandukanye, cyangwa se abashaka kwimuka badafite ibintu byinshi cyane nabo bashobora kuzikoresha.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo aho ifasha nk'abacuruzi kuba bageza ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze cyangwa se no mu gihe bavuye kurangura bikaborohera kubihagereza aho bakorera.

Iyi modoka nini ni imwe mu zikora mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye, kandi zikanifashishwa mu bikorwa byo kwamamaza bitandukanye.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali, mu gutwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bikaba byorohereza abakora ingendo kubona uko bagera aho bajya bitabagoye.

Iyi ni imwe mu modoka zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu gace kamwe zibajyanamo kandi, aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya kandi buhendutse.

Iyi modoka nini iri muri zimwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, mu gutwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi, kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Iyi modoka nini turi kureba, ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu duce dutandukanye, kandi bikorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo itandukanye, aho abacuruzi bayifashisha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo, aho bakorera cyangwa se kubigemurira abaguzi bari mu duce tunyuranye.

Hano turabona abatwara abantu n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto, by'umwihariko iyo turi kubona cyane ni imwe mu zikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho bifasha Igihugu kubungabunga ibidukikije hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Hano ni muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, aho hahurirwamo n'imodoka zivuye mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse no hanze yacyo, bigafasha abakeneye gukora ingendo kubona aho bategera kugira ngo bagere aho bajya byoroshye.

Iyi moto nini ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bakunze kuyifashisha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari mu duce tunyuranye cyangwa se nabo mu gihe bavuye kurangura, bikaba byagera aho bakorera mu buryo bworoshye.

Iki kinyabiziga cya moto ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, aho bifasha mu kubungabunga ibidukikije, bitewe n'uko bidasohora ibyotsi byangiza ikirere.

Aba ni bamwe mu batwaza abantu imizigo, aho tubona bari kwifashisha ingofani, ishyirwamo ibyo baba badashobora kwikorera ku mutwe kugira ngo biborohereze kubitwara.

Iyi modoka nini ni imwe mu zitwara abagenzi rusange muri uyu Mujyi wa Kigali, aho zorohereza abakora ingendo za buri munsi, bava mu duce dutandukanye kubona uburyo bwo kugera aho bajya bitabagoye.

Iyi modoka ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, ikaba ibavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi, akaba ari uburyo bworohereza benshi mu ngendo zabo za buri munsi bakagera aho bajya bitabagoye.

Iyi mirongo y'umweru tubona hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe. Ndetse tukabona n'undi muremure aho abatwara ibinyabiziga baba batarenga, mu gihe hari uri gutambuka. Mu rwego rwo kwirinda kuba bakora impanuka.

Iyi ngorofani tubona yagetse hano ku giti, ni iyifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho iborohereza kuba bashyiraho ibintu badashobora kwikorera ku mutwe, nk'amakarito menshi, amajerekani arimo amavuta ndetse n'imifuka irimo nk'umuceri n'ibindi.

Iyi modoka nini ni imwe muzifashishwa, mu gupakiramo ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubatsi bakunze kuyikoresha, bayitwaramo umucanga, amabuye, ibitaka n'ibindi.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu bitwara ibintu biremereye cyane kandi byinshi byumwihariko nk'abubatsi bakunze kuyipakiramo umucanga amabuye yo kubakisha ni'ibindi.

Izi modoka tubona hano ni zimwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi, bukaba ari uburyo bworohereza benshi kugera aho bajya.

Iyi mirongo y'umweru iri hagati mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira mu rwego rwo kwirinda guca aho babonye hose bikaba byanateza impanuka, ndetse bikorohereza abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka.

Iyi moto ni imwe muzifashishwa mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bayikoresha kugira ngo bageze ibicuruzwa byabo ku baguzi bari ahantu hatandukanye, ndetse nabo baba bavuye kurangura ishobora kubageza aho bakorera.

Izi moto nini ni zimwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo aho abacuruzi bakunze kuzikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari ahantu hatandukanye cyangwa se no mu gihe bavuye kurangura bakabibagereza aho bakorera.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zipakiye ibintu byinshi kandi biremereye, nk'abubatsi bayifashisha bayitwaramo umucanga, amabuye cyangwa se n'ibitaka.

Uyu ni umwe mu batwara abantu ndetse n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, ari uburyo bworohereza benshi nko mu gihe bakeneye kwihuta cyangwa kugerera aho bajya ku gihe, cyane ko bubibafashamo kandi bukaba budahenze.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo, ukeneye kuba yageza ibicuruzwa bye ahantu hatandukanye bikamworohereza cyangwa se ushaka kwimuka udafite ibintu byinshi cyane, nawe we ashobora kuyifashisha.

Iyi modoka tubona hano ni imwe muzifashishwa n'abifuza gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, aho ibafasha kumenya uko bashyira mu bikorwa amategeko y'umuhanda baba barize.

Aba ni bamwe mu batwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto, aho ubu buryo bworohereza benshi by'umwihariko nk'abagiye ku kazi bakeneye kuhagerera ku gihe cyane ko bwihuta kandi buhendutse.

Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kwikorera imizigo aho afite ingorofani imufasha kuba yatwaraho ibintu byinshi adashobora kwikora ku mutwe harimo: nk'imifuka irimo umuceri, amasukari cyangwa se ibindi, amakarito ndetse n'amajerekani.

Iyi modoka nini n'imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho abubatsi bakunze kuyifashisha bayitwaramo umucanga, amabuye, ibitaka n'ibindi.

Iyi ngorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho iborohereza kuba bapakiyemo ibintu byinshi badashobora kwikorera ku mutwe, imifuka irimo umuceri, amasukari, amakarito, amajerekani ndetse n'ibindi.

Izi modoka tubona zihagaze hano, ni zimwe mu zifashishwa n'abantu benshi mu gihe bakeneye gukora ingendo, badashaka kugenda mu zitwara abagenzi rusange, kuko bagenda bisanzuye kandi zikabageza aho bagiye mu buryo bwiza.

Iyi moto itwikiriye turi kubona hano, n'imwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo y'abantu batandukanye, by'umwihariko abacuruzi mu gihe bavuye nko kurangura bashaka kugeza ibicuruzwa byabo aho bakorera cyangwa se mu duce tunyuranye abaguzi baherereyemo.

Hano ni mu mujyi wa Kigali, ahahariwe umwanya abaturage, aho hashyizweho intebe bashobora kwicaraho bari kuruhuka, bari kuganira ndetse bakahakorera n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo imyidagaduro n'ibindi.

Hano ni mu mujyi wa kigali ahahariwe abaturage, aho hashyizwe intebe bashobora kwicaraho, mu gihe bari kuganira bari kuruhuka, cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa bitandukanye birimo imyidagaduro.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahari umwanya washyiriweho abaturage, hashyizwe intebe bashobora kwicaraho, mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa bitandukanye birimo n'imyidagaduro.

Hano ni mu mujyi wa kigali ahahariwe abaturage. Aho bahakorera ibikorwa bitandukanye birimo nk'imyidagaduro nk'uko turi kubibona, ndetse hakaba hari n'intebe bicaraho mu gihe bakeneye kuruhuka, kuganira ndetse n'ibindi, kandi bakaba baba bafite umutekano bitewe n'uko nta binyabiziga bihanyura.

Aha ni hamwe mu hashyiriweho abaturage batuye mu mujyi wa Kigali, aho hari intebe bicaraho mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa bitandukanye, birimo nk'imyidagaduro.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, ahari umwanya wahariwe abaturage, hashyizwe intebe bashobora kwicaraho mu gihe bari kuruhuka, bari kuganira cyangwa se bari gukora ibindi bitandukanye birimo n'imyidagaduro.

Uyu muhanda turi kubona mu ibara ry'icyatsi ni uwubatswe mu gace kamwe ko mu mujyi wa Kigali, aho ufasha benshi by'umwihariko abakeneye gukora imyitozo ngororamubiri kuba bayihakorera kandi bakumva bisanzuye bitewe n'uko nta binyabiziga biwucamo.

Iki ni ni kimwe mu byapa bishyirwa ku mihanda bigaragaza ahari umwanya wahariwe abanyamaguru, bo bakwambukira bigafasha abatwara ibinyabiziga, kuhabona mbere, ku buryo baba bashobora kugabanya umuvuduko cyangwa se bakaba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo babe bakwirinda ku mugonga.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda bigaragaza ahahariwe umwanya wo guhagararamo imodoka by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, aho byorohereza n'abakeneye kuzigendamo kubona aho bazishakira bitabagoye.

Iki cyapa tubona hano ni ikiri ku marembo yinjira mu igororero rya Nyamagabe, aho hashyirwa abakoze ibyaha bitandukanye, kugira ngo bagororwe kandi bagatozwa n'imyuga inyuranye, izabafasha kwiteza imbere mu gihe bazaba basohotse.

Aya matara ashyirwa ku mihanda itandukanye, by'umwihariko kugira ngo afashe abawukoresha nk'abagenda n'amaguru, kumenya igihe cyo kwambukira, abatwara ibinyabiziga na bo bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka, mu rwego rwo kwirinda gukora impanuka cyangwag se akavuyo kenshi ko mu muhanda.

Hano turahabona icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, bikaba bishyirwa ku mihanda kugira ngo bifashe abatwara ibinyabiziga kuhabona mbere y'igihe, bityo bigatuma bagabanya umuvuduko cyangwa se bakaba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka.

Iki cyapa gishyirwa ku mihanda kigaragaza amatara atandukanye yerekana abakoresha igihe bagomba kwambukira, by'umwihariko abagenda n'amaguru. Ibinyabiziga bikaba byahagarara mu gihe hari abari gutambuka, nabyo bikabona kugenda. Baba ari uburyo bworohereza mu kurinda impanuka nyinshi.

Iki cyapa ni ikiranga aho abanyamaguru bagomba kwambukira, aho gishyirwa ku muhanda kugirango gifashe abatwara ibinyabiziga kuba bagabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara mu gihe hari urimo gutambuka.

Iki kiraro kinini, ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa kigali, giherereye mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari ikigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Aya ni amatara ashyirwa ku mihanda kugira ngo afashe abayakoresha, nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kuba bakwambuka, z'ibinyabiziga bigahagarara mu gihe hari abari gutambuka, na byo bikabona kugenda, mu rwego rwo kwirinda akavuyo ko mu mihanda cyangwa se guteza impanuka.

Aya ni amatara ashyirwa ku mihanda abamo amabara atandukanye, afasha abawukoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kuba bakwambuka ndetse n'ibinyabiziga bigahagarara, bikareka abantu bakabanza bagatambuka nabyo bikabona kugenda, akaba ari uburyo bufasha mu kwirinda impanuka zitandukanye.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira kugira ngo babe batateza impanuka bitewe no guca aho babonye kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara mu gihe hari uri gutambuka.

Iki cyapa kinini cyometse kuri iyi nyubako ni ikiranga ahari inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye, aho gishobora gufasha ukeneye kuhajya kuba yahamenya mu buryo bworoshye cyangwa se no kuhasobanurira undi bitagoye.

Uyu mutaka ni uwa sosiyete y'itumanaho yari Airtel, ndetse akaba ari uburyo yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere, kuba bakwigurira amainnite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyohererereza abandi ndetse n'ibindi.

Iki cyapa ni ikiranga inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, aho gifasha ukeneye kuyagura kuba yahasobanukirwa mu buryo bumworoheye cyangwa se no kuharangira undi ntibibe bigoye.

Izindi ni inganda nk'uko bigaragara zikaba zikorerwamo imirimo itandukanye aho zifite umwanya zahariwe mu rwego rwo kwirinda kwangiza ibidukikije bitewe n'ibyotsi biziturukamo.

Hano turahabona icyapa kiranga inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibyiganjemo amata, aho gifasha nk'uwaba akeneye kuyagura kuhabona mu buryo bworoshye.

Iki kiraro kinini ni kimwe mu byubatswe mu Mujyi wa Kigali, hano akaba ari mu Karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, bikaba bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iki kiraro kinini tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, bikaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda

Iki kiraro ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa Kigali ndetse kikaba ha kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Aka kazu ni kamwe mu dushyirwa ku mihanda, kugira ngo abaturage baba bategereje imodoka ibatwara, babe bashobora kuba bakwicara cyangwa se abari ku rugendo bananiwe na bo bakabona aho baruhukira.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abagenda n'amaguru bagomba kwambukira ndetse tukabona n'undi muremure, ugaragaza a aho ibinyabiziga bigomba guhagarara mu gihe hari uri gutambuka.

Iyi mirongo y'umweru igaragara hagati mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara cyangwa se bakagabanya umuvuduko mu gihe hari uri gutambuka kugira babe batamugonga.

Iki kinyabiziga cya moto ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi aho leta ishishikariza benshi kuba ari byo bakoresha mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi bihumanya ikirere.

Iyi mirongo y'umweru turi kubona hano hagati mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, ndetse hari n'umuremure, aho abatwara ibinyabiziga baba batagomba kurenga, mu gihe hari urimo gutambuka, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka, cyangwa kuzikora.

Iki kiraro kinini, ni kimwe mu byubatse mu Mujyi wa Kigali, mu Karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba kimwe mu bikorwa bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo iri hano hagati mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe aho yifasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka kugirango hirindwe impanuka zinyuranye.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka kugira ngo babe bakwirinda kubagonga.

Iki ni ikiraro kinini cyubatse mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro aho kiriho umuhanda uca hejuru y'iyindi nkuko bigaragara akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u rwanda gikomeje gutera imbere.

Muri uyu muhanda turi kuhabona amatara yaka amabara atandukanye, aho afasha abawukoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiriye cyo kuba bakwambuka, ibinyabiziga nabyo bigahagarara kugira ngo bireke babanze batambuke nabyo bikabona kugenda.

Iyi mirongo iri hagati hano mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira, aho bifasha abatwara ibinyabiziga guhagarara mu gihe hari uri gutambuka kugirango hirindwe impanuka zitandukanye.

Iki ni kimwe mu biraro byubatse mu mujyi wa kigali, aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi. Kaba ari igikorwa remezo kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Kano kazu turi kubona hano kariho intebe niyo abagenzi bicaraho gihe bategereje imodoka ibatwara, cyangwa se hari nk'abari bakoze urugendo rurerure bakeneye kuruhuka nabo bashobora kuba baharuhukira.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara, mu gihe hari abari gutambuka kugira ngo birinde kuba babagonga.

Iki kiraro kinini ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa Kigali, aho ndetse kiriho umuhanda uca hejuru y'undi, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iki kiraro kinini cyane turi kubona hano, cyubatse mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Kicukiro, aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Hano turahabona utwara ikinyabiziga cya moto, akaba ari kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi nk'uko bigaragara, bigafasha igihugu kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Iki kiraro kinini turi kubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka kicukiro aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo tubona hano mu muhanda ni aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, aho bifasha abatwara ibinyabiziga kuba batabagonga bitewe n'uko batababonye agahagarara mu gihe hari abari gutambuka, bukaba ari uburyo bwo kwirinda guteza impanuka cyangwag se kuzikora.

Aha naha shyizweho umwanya wo guparikamo imodoka ndetse turabibona ko hari ihahagaze abaruburyo bufasha kurinda impanuka bitewe no guhagarara aho babonye hose ndetse n'abagenzi bakaba bashobora kwicara muri kariya kazu mu gihe bategereje ibatwara.

Hano turahabona agahanda gato kubabakirwa abagenda n'amaguru, aho bibafasha kuba bakwirinda guteza impanuka cyangwa se kuzikora, bitewe no kubyiganira n'ibinyabiziga mu mihanda minini.

Iyi mirongo iri hagati mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, mu buryo bwemewe kandi bikorohereza abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwag se kuzikora.

Iki kiraro kinini tubona hano imbere ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa kigali, kiriho umuhanda uca hejuru y'indi kikaba ari kimwe mu bikorwaremezo bigaragaza iterambere ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Aya matara turi kubona hano ku muhanda, ni afasha abawukoresha nk'abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kuba bakwambuka, ndetse n'abatwara ibinyabiziga, bagahagarara mu gihe hari abari gutambuka, mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka cyangwa se kuzikora.

Iyi ntebe ni zimwe mu zubakwa ahaparika imodoka by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, aho zifasha abagenzi bazitegereje kuba babona aho baba bicaye, cyangwa se abari ku rugendo bananiwe, bakaba baharuhukira.

Iki kiraro kinini ni kimwe mu biraro byubatse mu mujyi wa Kigali, aho giherereye mu karere ka Kicukiro ndetse kikaba kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iki ni kimwe mu biraro binini byubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru iri hagati hano mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira, ndetse bikorohereza abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara, cyangwa se bakagabanya umuvuduko mu mugihe uri gutambuka kugirango ngo babe bakwirinda kumugonga.

Iyi ni imi mirongo igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira muburyo bwemewe aho bibafasha kwirinda guteza impanuka baca aho babonye hose ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka kugira ngo babe batabagonga.

Hano naho imodoka ziparika by'umwihariko izitwara abagenzi rusange ndetse tukaba tuhabona intebe abagenzi bubakiwe mu gihe bategereje bashobora kwicaraho cyangwa se bari ku rugendo bananiwe nabo bashobora kuba bayikoresha.

Iki kiraro kinini tubona hano ni kimwe mu byubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi. Akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi mirongo igaragara hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira, bikorohereza abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara cyangwa se bakagabanya umuvuduko, mu gihe hari uri gutambuka kugira ngo hirindwe impanuka zinyuranye.

Iki ni kimwe mu biraro byubatse mu mujyi wa Kigali, aho hariho n'umuhanda uca hejuru y'indi nk'uko tubibona hari n'ibinyabiziga biwunyuraho, bikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u rwanda gikomeje gutera imbere.

Muri uyu muhanda turi kuhabona imirongo y'umweru iri hagati, ikaba igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira ndetse n'abatwara ibinyabiziga, bakaba bahagarara mu gihe hari abari gutambuka kugira ngo birinde kuba babagonga.

Iyi mirongo y'umweru igaragara hagati mu muhanda, iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira; kandi bikorohereza n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara cyangwa bakagabanya umuvuduko mu gihe hari ugiye gutambuka, kugira ngo babe bakwirinda gukora impanuka zinyuranye.

Iyi mirongo tubona hano hagati mu mihanda y'umweru naho abanyamaguru baba bagomba kwambukira ndetse abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara cg se bakagabanya umuvuduko mu mugihe hari uri gutambuka kugirango babe batamugonga.